Umutekano w' ibinyabiziga urasanga warateye imbere cyane mu Rwanda, kubera ko nta kinyabiziga bashira mu muhanda batabanje kukijyana muri kontorole umutekano w' ibinyabiziga wateye imbere cyane.

Umutekano wo mu Rwanda urakataje cyane kuko iyo urebye no mu muhanda usanga warateye imbere cyane cyane iyo urebye abamotari ukuntu baba bitwaye mu muhanda. Na polisi y'u Rwanda igerageza gukumira ibyaha byinshi bigaragarira.

Umutekano mu Rwanda, wateye imbere cyane, kubera ko yaba imbere mu gihugu, mu nkengero ndetse no hanze y'igihugu, umutekano usanga hose warakwiye cyane, kuko yewe twawusaguriye n'amahanga, aho usanga ingabo z'igihugu na polisi, ziri kujya gutanga umutekano, mu bindi bihugu, bifite umutekano muke.

Abantu bamaze gusobanuka cyane, aho bamaze kumenya ibijyanye n'umutekano, umutekano rero ntabwo urirwa n'abantu gusa, ahubwo hari na dogizi nazo zirinda umutekano. Kandi ugasanga umutekano uragwiriye kandi umeze neza.

Umutekano wo mu Rwanda umaze gutera intambwe, kubera ko disigaye tunawurindisha n'imbwa. Imbwa rero nazo zisigaye zidufasha gucunga umutekano cyane mu Rwanda, kubera ko zimenya gusaka, zikamenya ibitari ngombwa bikenewe, byinjiye aho ziri.

Umutekano wo mu Rwanda rwateye imbere cyane, kubera ko usanga abari n'abategarugori barawitabiriye cyane bajya mu gisirikare, abandi bjya mu gipolisi banga, abandi bajya mu gucunga amagororero, abandi bajya mu kidaso. Urabonako rero umutekano wo mu Rwanda wateye imbere .

Uwo mu Rwanda wateye imbere cyane kubera ko no mu mazi ubamo. Ni ukuvuga ngo polisi y'u Rwanda n'ingabo babungabunga umutekano wo mu mazi, abo bita abamarine. Ubwo rero umutekano wo mu Rwanda niwubahwe kubera ko no mu mazi ubamo.

Umutekano wo mu Rwanda ntabwo ucungwa n'abagabo gusa, ahubwo n'igitsina gore na cyo gicunga umutekano, kuko iyo ugeze mu gisirikare usangamo abahungu n'abakobwa, wagera mu gipolisi usangamo abahungu n'abakobwa, wajya no mu kidaso usangamo abahungu n'abakobwa ndetse n'irondo ry'umwuga, usangamo ibitsina byombi umutekano wo mu Rwanda rero urakataje.

Umutekano wo mu Rwanda rero wateye imbere cyane, kubera ko twawusaguriye n'amahanga, usanga ingabo z'igihugu ndetse na polisi ziri kujya gutanga umutekano mu bindi bihugu, cyangwa se wabayemo muke, rero umutekano umaze gukwirakwira hose kandi umutekano mu Rwanda rwose, kuko wagenda ijoro ryose bukarinda bucya.

Abagore bo mu Rwanda bose na bo bahawe ijambo kuberako bayobora inama bagatanga n'ibitekerezo mu nama, mbese ntabwo bakiba mu gikari, ubwo rero inama zose zo mu Rwanda usanga harimo abagore ,abakobwa, batanga ibitekerezo kandi birumvikana.

Ahantu abayobozi b'Igihugu bakuru bakorerara inama, aba ari ahantu hameze neza kandi hisanzure, ariko bashyira n'amazi ku meza kugira ngo bataza kugira, rero ibijyananye n'inama igomba kubahwa na buri umwe wese kubera ko baba bari kwiga ku by'igihugu.

Imbyino nyarwanda ziba nziza cyane kubera ko usanga harimo byinshi bishimishije abantu. Ubu ngubu nk'aba ngaba barimo kubyina bitabira ibirori, bishimisha abantu kandi na bo bagatahana amafaranga kubera ko barabahemba...

Umuganda urakataje cyane kubera ko no mu bigo by'amashuri uwusangamo . Abanyeshuri hari umwanya bafata bakajya muri karabu. Kandi icyo gihe iyo bagiyemo, usanga abahungu n'abakobwa bose basabanye. Icyo gihe rero bibafungura mu bwonko bikabaruhura ubwonko n'imyigire yabo igenda neza.

Umuganda rusange ni bimwe mu ndangagaciro z'Abanyarwanda, kandi mu myaka yo hambere habagaho n'ubundi umuganda, hakabaho ubudehe. Kandi abantu bahuriye mu gikorwa nk'iki cya rusange, wasangaga bishimiranye bagatahana amakuru menshi, kandi bagashyira hamwe. Rero umuturarwanda utajya gukora umuganda ntabwo ukunda Igihugu ahubwo uba uri kugandira Igihugu. Nawe wisubireho.

Ibicuma, inzuho, ibisabo ni bikoresho bya kinyarwanda, ariko abana benshi batazakunda kumenya, kubera ko iterambere ryatumye bitaboneka neza, ariko bikunda no kuboneka mu giturage. ubwo abana bo mu muji, nta bwo bazabimenya pe! Ahubwo bisaba ko ababyeyi babo bajya babatembereza bakabageza no mu cyaro.

Umuco yarwanda ugaragazwa n'ibintu byinshi cyane. Urabona ko nk'ibi bikoresho by'uduseke, biteguye neza cyane, kandi tuba mu muco. Muzarebe n'intore ndetse n'ababyinnyi iyo barimo kubyina, hari benshi babyina duseke, ugasanga biraryoshye.

Umuco nyarwanda ugaragarira no mu ntore n'abakaraza. Abakaraza bari muri bamwe bagaragaza umuco nyarwanda, kuko bagezeho ugasanga abari gukaraga ingoma wahakererwa kubera ko umuco ni mwiza cyane.

Hambere abantu bakundaga guhiga ariko ubungubu ntabwo bagihiga mu mashyamba ya Leta, cyangwa se no muyandi mashyamba kubera ko kwangiriza inyamaswa zo mu mashyamba, birabujijwe cyane rero umwuga wo guhiga wavuyeho.

Umuco wo mu Rwanda ujyana n'utu dukono, kubera ko ababumbyi batubumba na bo babona amafaranga menshi, kubera ko abenshi baratugura bashaka kuduteguramo indabyo, rero nawe ushaka waza ukagura, ukagenda kugateguramo indabyo, kandi mu myaka yashizeho wanagatekamo umutsima, cyangwa se bakagatekamo n'imboga, umushogoro, n'ibindi.

Zabaga nziza cyane ni uko zitakiboneka, ariko n'aho uyisanze, usanga imeze neza da umuntu ayikunze afite amatsiko yo kuyicaramo. Ariko nk'abana bavukiye mu mugi ntabwo izi bazizi, bazibona hehe? Ntabwo bazibona kubera ko ntabwo ziboneka, kubera ko n'ibyo bazikoramo ntabwo wabibona mu mujyi.

Umuco nyarwanda niwubahwe kubera ko utuma abantu banezerwa cyane. Urabona ko nk'aba bakobwa babyina bakinze amaboko, basaza babo baba bari kwiyereka, ni bamwe mu bagaragaza umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda rero ugaragariraga no mu mbyino.

Ibirago biba byiza cyane kubera ko babyaniikaho imyaka, babyicaraho hanze, babisengeraho mu nsengero kandi ikirago wanakirambikaho matera ukaryama igihe ntagikandagiye ikirago rero umucitse ...

Benshi bavuga ko inka z'inyambo ziba i bwami, kandi koko niko bimeze, ariko mu myaka yo hambere bavugaga ko umukire wese yabaga atunze inyambo, ariko ubu bavuga ko utapfa kuyitunga utarigeze kuba i bwami. Aho zisigaye rero ni i bwami.

Umuco urubahwa cyane, kuko usanga uzana na wo iterambere. Kuko nk'itsinda ry'ababyinnyi iyo bagiye kubyinira mu bukwe barabishyura, ndetse bajya kubyinira n'ahandi mu birori na bwo bakabishyura kandi ugasanga ibirori birizihiwe cyane.

Uyu mukecuru afite isoni y'abagabo，ariko ko bimeze asa n'umutunzi，asa n’umuntu wabayeho neza cyane，afite n'uburakari bwinshi，nta wamenye icyamurakaje. Ariko ni n'umusore da.

Umuco nyarwanda ugaragarira, mu bintu byinshi, ibisabo nabyo biri mu bituma umuco nyarwanda ugaragara kubera ko bishingirana abageni, kandi bigaragaza umuco. Rero ibisabo n'ibindi byose biri mu bintu biwugaragaza.

Igikoresho cyiza cyane kubera ko kiri mu muco, kiri mu biranga umuco nyarwanda kubera ko bagishyiramo amata usibye no gushyiramo amata aho usanga hari n'inzu ndangamurage boro hose usangamo inkongoro.

Amata aba meza cyane kubera ko yaba kayaha abana, urabona ko bayaha n'abageni. Amata ni ikimenyetso kiza cyane. Ni ukuvuga ko umuntu uje iwawe ukamuha amata, rwose uba umuramiye. Kandi amata ni ikimenyetso cy'ubukungu kuko agaragaza ahantu hari inka. Ni ukuvuga ngo rero amata niyubahwe.

Isekuru iba igikoresho cyiza cyane cyo mu rugo, kubera ko basekuramo isombe, basekuramo imyumbati bitewe n'agace. Rero isekuru iba nziza cyane, kubera ko ni igikoresho gifasha abantu cyanye.

Umuco wo gucunda amata no kuyatereka wari uwo hambere cyane, ariko ubungubu waracitse, wagiye uba muke, kubera ko aho wasanga abari n'abategarugori bari gucunda, ni hake rwose! uyu nguyu afite igisabo ndetse n'ibyansi, ariko umuco wo gucunda waragabanutse.

Imbyino za kinyarwanda ni imbyino zishimisha abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda bakishima rero abahungu n'abakobwa bakagombye gukomeza kuyitoza kubyina imbyino za kinyarwanda, zirashimisha birashimisha kandi zikanezeza abantu mu mutima kuko n'abahungu bari kubyina n'abakobwa bari gutamba babona bishimishije cyane.

Inka ni inyambo, kandi ni izo hambere, kandi inka z'innyambo zagaragazaga umuco nyarwanda, kuko zajyaga mu birori zigakinga ariya mahembe, ugasanga abantu barishimye cyane, umucoyarwanda rero wagaragariraga mu bintu byinshi.

umuco nyarwanda rero, ni umuco abanyamahanga bifuza cyane. Kubera ko iyo babonye intore ndetse n'ababyinnyi, wasangaga basusurukije abantu. Kandi habamo n'amafaranga, kubera ko abakora uyu murimo wo kubyina ndetse no gutamba, barishyurwa mu birori bitandukanye.

Iningiri kimwe mu gikoresho cya gakondo cyashimishaga abantu cyane, kuko kuyicuranga usanga inogeye amatwi. Ariko abantu benshi ntabwo bazi kuyicuranga kubera itaboneka ahantu henshi, aho iboneka ni hake nk'ahantu hari ibikorwa by'umuco.

Umukino wa siporo ni umukino mwiza cyane, wo gusimbuka urukiramende uba mwiza cyane, ariko abakunda kuwushobora ni abafite ibiro bikeya n'abakobwa bagororotse n'abahungu. Abantu bafite imyaka y'ubukure rero hejuru y'imyaka mirongwine ntabwo uyu mukino bashobora kuwusimbuka, kubera ko imyaka yabo yababere imbogamizi. Ubwo rero mushishikarire kwitabira siporo kandi mu byiciro bi....

U Rwanda rwarogeye hose kubera ko iyo babonye abari n'abategarugori n'abagabo, n'abasore, bagize itorero bari kubyina, mu muco cyane cyane iyo habaye umuganura, wasangaga bari gutamba bagasangira ibyabo. Urebye mu biranga umuco nyarwanda rero habagamo gushananisha imbyino n'ibyivugo. Muri make rero umuco nyarwanda warogeye hose.

Agaseke kari mu mitako bataka mu nzu, kandi iyo wagatatse mu nzu, uba ubona mu nzu hasa neza, nk'uko ndikubona bashyizeho n'ishapure. Ishapure rero niba na yo ari umutako wo mu nzu, kandi ishapure yo bayambara mu josi. Ubwo rero ababizi bazadufasha gusobanukirwa neza ku by'iyi mitako bataka mu nzu niyo mu ijuru.

Umwami Musinga yari mwiza rwose kandi yari umunyabwenge, ariko abanyarwanda benshi ntabwo bamuzi kuko batamubonye, ariko bavuga ko yari umuyobozi mwiza cyane unamurebye ku isura, ariko abana bo bamwiga mu mateka yaranze u Rwanda.

Umuco nyarwanda uba mwiza cyane. Kuberako n'abanyamahanga baza kuwureba, bari kubabyinira, bari kwitakuma, byose ugasanga bimeze neza cyane. Kandi noneho abahungu n'abakobwa bose barabana bari kubyina, abandi kuvuza ingoma, babita abakaraza. Rero umuco nyarwanda niwubahwe.

Umuco nyarwanda wajyanaga n'intore ndetse no kubyina no guhamiriza, ariko ubu ngubu usigaye ubona waragiye ukendera ntabwo bakiwitaho cyane, ariko nyamara abanyamahanga kubera kuwukunda no kubana n'abanyarwanda, usanga ari bo basigaye bawukunda cyane kuruta ba nyirawo.

Izi mitako ziba myiza. Iyo bayiteguye mu nzu hejuru y'akabati ,etajeri n'ahandi hantu hahura n'abandi benshi. Ariko n'ahantu bakunda ku.... abageni usanga bayifite utuntu nk'utu baduteguye. Ubwo rero nubwo watugura ari nka tubiri gusa ukagutegura iwawe usanga hameze neza cyane.

Umuco Nyarwanda umaze gutera imbere cyane, kubera ko usanga n'intore n'ababyinnyi bambaye neza cyane, kuko bari kubacurangira iningiri, kubera ko nabo bari kubacurangira gitari, umuco nyarwanda rero ugenda uravugururwa, kandi ugasanga ukwira hose bimeze neza cyane.

Kuri ubu imbehe ziba mu nzu ndangamurage gusa, kubera ko nta rugo wajyamo ngo usange ziririmo kubera ko zitakiboneka, basigaye bagura amasahane ajyanye n'igihe, nyamara imbehe ziba nziza kubera ko iyo ushyizeho imboga ntizikonja ariko ni n'umuco, ubu zisigaye zikoreshwa mu gihe cy'ubusabane gusa.

Umuco nyarwanda wabaga mwiza hambere, kubera ko abantu bariraga ku mbehe batetse amateke, ibijumba, n'ibishyimbo n'impungure, hanyuma bagatumirana hakaba habaye n'ubudehe, abantu ugasanga baranezerewe cyane. Ariko umuco nyarwanda ubu ngubu wagiye urakendera ntabwo abantu bakiwubahiriza.

Umuco nyarwanda ugaragarira mu bintu byinshi, ugaragarira mu kubyina, mu kwiyereka, ugaragarira mu bikorwa n'ibikoresho by'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda rero uba mwiza cyane, kubera ko abanyamahanga barawukunda, kandi bakaza no kuwureba.

Igihe cy'inkiko gacaca mu Rwanda cyafashije ubutabera gutangwa mu banyarwanda, kuberako gacaca zakoreye muri rubanda kandi buri wese yavugaga ibyo abajijwe kandi agatanga n'ubuhamya bujyanye n'ibyo yabonye , ubwo rero ubutabera mu Rwanda nibwubahwe kuberako bwahawe agaciro.

Amashanyarazi amaze gukwira henshi mu gihugu kuberako urabonako n'izi nsinga zigiye gukoreshwa ahandi hantu, ubwo rero uyu muriro numara kugera ahantu hose uzasanga iterambere ryahageze kuberako umuriro w'amashanyarazi uzana ibyiza byinshi, n'ibikorwa remezo n'ibindi bikorwa byinjiza amafaranga.

Kwiziniyeri ni igikoresho kiba cyiza cyane kubera ko yafasha abantu gutegura amafunguro, ndetse hari n' abotsagamo n' imigati, bakotsamo n' inkoko kubifashije nka abakire iba nziza cyane rero.

Ibikorwa remezo birimo n'amashuri, ni ibikorwa byiza cyane kubera ko usanga uburezi bwarateye imbere mu Rwanda, kuko nta murenge wageramo ngo usange utarimo amashuri, ayisumbuye ndetse n'ay'imyuga. Rero, uburezi........cane.

Amaduka kubera ko bayubatse ku nkengero z'umuhanda arinjiza cyance abona abakiriya, kuberara ko abatemberezi n'abandi bose baba bari gutambuka, barabagurira cyane kandi n'abacuruzi batanga serivisi y'ikoranabuhanga kuri telefoni, n'abo babona abaguzi cyane kubera ko nabo bakorera ku muhanda.

Za Leta zose kuva ku Kagari kuzamura mu bindi byiciro nka za minisiteri, haba hariho ibendera. Nta biro bya Leta wagera ngo usange hatari ibendera. Ibendera rero riba ikirango kigaragaza inyubako za Leta cyangwa se guverinoma.

Kiriziya ni ingoro ya nyagasani. Kiriziya igomba kubahwa n'abantu benshi. Kandi iyi kiriziya iragaragara yuko isa neza rwose. Bayubatse neza hari ibikoresho byayo ni byiza, iri ahantu heza, kandi iyi kiriziya ni iya paruwasi katedarari ya Ruhengeri. Iyi kiriziya rero ni nziza cyane, n'iyo uyigezemo imbere, usanga isa neza kandi yakira n'abakiriristu benshi, kandi ugasanga bicaye neza bizihiwe, murakoze!

Gutura k'umudugudu biba byiza cyane, kubera ko bituma abantu bahuza ibikorwa, kandi ibikorwa by'iterambere n'ibikorwaremezo bibageraho neza, nk' amashanyarazi, amazi akaza, ndetse n'ibindi bakabizana, kandi na bya bizu bigerekeranye nabyo ama etage, nabyo bakabona ukuntu babyubaka, kubera ko baba bageneye ishusho, igishushanyo mbonera. Kubaka k'umudugudu rero biba byiza cyane.

Naho wasanga ibyapa, ibi biburira abagenzi, keretse mu mijyi cyangwa se ku masantere aba yarateye imbere. Nko mu cyaro, usanga harimo ibyapa bikeya kandi bitandukanye. Ariko nko mu mijyi, usangamo ibyapa byinshi bitandukanye, ibiranga ibigo by'imari, ibiranga ibigo by'amashuri, n'abandi.

Ibikorwaremezo bibaho cyane. Urabona nk'iki niba ari ikiraro cyo mu kirere, iki ni ikiraro gifasha ubuhahirane mu turere cyangwa se n'imirenge. Imyaka yeze mu murenge umwe ukuyijyana mu wundi murenge kugira ngo abayikeneye bahahe, Kandi na we ubone n'amafaranga.

Kurubu mu Rwanda ireme, ry'uburezi ryateye imbere, kubera ko amashuri, uyasanga ahantu henshi, nta murenge wageramo, ngusange hatarimo amashuri nk'abiri, aya pirimeri, aya segonderi, ariya bita nayini, nta murenge wageramo, ngusange hatarimo ishuri rya nayini, urumvako ireme ry'uburezi, ryateye imbere kandi ubujiji buzagabanyuka.

Amabuye aba meza kandi akagira akamaro, kubera ko barayubakisha kandi ahantu bayubakishije ubona iyo nzu ikomeye, izi nzu rero muri kubona ko zikomeye kandi zimeze neza kubera ko zubakishijwe n'aya mabuye, ubwo rero ahatabonetse amatafari cyangwa ibindi, wakubakisha amabuye kuko na yo aba meza cyane.

Abantu baragirira mu kiraro, cyangwa se mu gikuyu babona umukamo kandi baba birinze izindi risike, kubera ko iyo inka wayiragiriye mu kiraro, uyitaho neza, kandi uba wirinze izindi ngaruka z'umuntu waragire ku gasozi kubera ko iyo afashwe acibwa amande.

Inyubako za Leta cyane cyane akarere, za minisiteri, ku ntara, usanga inyubako zose bubaka ari amagorofa. Kandi nazo ziba zaratubuye ubutaka, kuko usanga serivisi nyinshi zihari kandi zitagoye.

ADEPERI ni itorero ry'abapende kandi itorero ryaje kera. Aha ngaha rero itorero rya Kinzovu muri paruwasi ya Kabarondo mu rurembo rwa Nyagatare. Nyagatare ndi kubona ari iburasirazuba. ADEPERI rero abantu benshi barayikunda kandi bakunda gusengerayo kandi bakuzura n'umwuka wera.

Kubaka etaje ni ingenzi cyane， kuko bituma ubutaka bukoreshwa neza， kandi bugatubuka. Iyo wubatse hasi ukubaka no hejuru，bitubura ubutaka， bikaruta kuba wakubaka inzu itageretse， kandi iyo igeretse n'ubundi，uratubukirwa kandi ikibanza ukagikoresha neza. Nabakangurira kubaka etaje， ariko nanone ahabugenewe， ahantu hose ntabwo hemerewe kubakwa etaje

Mu mihanda yo mu mugi iba myiza kubera ko iba zifite isuku, kandi iba irimo na kaburimbo, niba ari ukubera ko bayikorera isuku usanga imeze neza cyane itandukanye n'iyo mu cyaro kuko iyo mu cyaro usanga irimo amabuye, usanga ifite itandukaniro rinini.

Kubaka amazu agerekeranye rero azana umusaruro mwinshi kandi agatuma n'ikibanza gitubuka, kuberako iyo wayubatse inzu ukazigerekeranya hasi barahakorera no hejuru bakahakorera, kandi ikibanza cyawe ntigitube kuberako n'ubwo cyaba ari gitoya ukacyubaka hanyuma nyuma yo kucyubaka ukagerekeranya ibyumba wenda nka nivo nk' eshatu bigenda neza.

Mu mujyi wa Kigali abakire benshi usanga bishyize hamwe bagakora umuhanda wabo wo muri karitsiye, ahenshi hari n'aho usanga bashize kaburerimbo, ubwo rero bakagombye kuba ikitegererezo cyiza, n'abo mutundi turere turi guterare imbere bakajya bikorera imihanda iri mu makaritsiye yabo.

Insengero ni zimwe mu nyubako nziza cyane kandi zifitiye igihugu akamaro, kubera ko hahurira abakirisitu bagasenga kandi bakubaha imana, kandi urusengero iyo rwubatse ku muhanda rutuma abizera bahagera neza.

Umusigiti kuwusengeramo ni byiza kubera ko bawubatse ahantu hisanzuye kandi buri wese yakwinjiramo nta kibazo. Ubwo rero abasengera mu musigiti nabo usanga bashimishijwe no kuba basengera ahantu hasa neza. Uwawubatse rero yawubatse ahantu hasa neza rwose.

Kugira ngo insengero n'amadini byongere gusenga neza, bisaba y'uko abantu bubahiriza amabwiriza, ariko amabwiriza kugira ngo ashyirwe mu bikorwa bisaba amafaranga menshi cyane, kuko bisaba kunoza isuku mu buryo buhambaye.

Amazu nk'aya ngaya nta handi wayasanga uretse mu mugi wa Kigali, cyangwa se mu yindi migi yateye imbere yunganira umujyi wa Kigali cyane nka Musanze, Huye ,Rubavu .Ama etaje nk'aya usanga ari meza cyane ariko abihaye Imana na bo bakunda kubaka amazu nk'aya ngaya, cyane cyane nko mu bigo by'amashuri.

Amashanyarazi ni igikorwa remezo cyiza， mu bikorwa remezo biba byaregerejwe abaturage. Iyo mu mudugudu amashanyarazi yagezemo， bakayakwirakwiza hose，ni ukuvuga ngo，umuturage aracana，urusengero rukayafata，ivuriro rikayafata， amashuri akayafata n'abanyeshuri bakiga bari kureba neza， kandi noneho n’iyo imvura yaguye nta mwijima uza mu ishuri，kubera ko baracana， abanyeshuri bakiga bari kureba.

Amashuri aba meza cyane kubera ko afasha abantu ubumenyi, kubera ko nta murenge wageramo ngo uburemo ishuri ryisumbuye, ari ryo bita tuwelive ndetse na za purayimari, ubwo rero bashishikariza abana kurya ku ishuri kugira ngo barwanye......

U Rwanda rwitaweho cyane, kandi usanga bibanda kugucika k'umuhanda urabona ko utameze neza ,ariko ukeneye gukorerwa umuganda, kugira ngo ibinyabiziga ndetse n'abandi bawunyuramo , binyuremo umeze neza cyane ibikorwa remezo bigomba kubaho.

Pano soleye cyangwa se solapano ni igikoresho cyiza kubera ko gifasha abantu ahantu hatari hagera amashanyarazi, iyo ufite iyi pano rwose iragufasha ikaguha amashanyarazi, urayacana mu nzu hakabona ndetse no hanze, ugashyiraho itara hakabona igihe ugitegereje yuko hazaza amashanyarazi, abantu bose rero nabakangurira kugana mu bigo bicuruza panosoreye, kubera ko birabafasha kandi ni byiza cyane.

Uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ubutabera mu Rwanda, byashyizwe imbere, biri ku isonga cyane, kubera ko usanga umuturage ari ku isonga kandi ahabwe ubutabera, kandi guhabwa ubutabera, bivuze ko aba ahawe uburenganzira bw'ikiremwamu buba bwubahirijwe.

Amahuriro n'amakoraniro yose aho abera buri wese aba afite umwanya wo kugira icyo avuga, kanddi abandi bose bakaba basabwa kumutega amatwi ,rero uyu musaza na we afite icyo ari gusobanurira bagenzi be kandi bose bagomba kuba interese cyangwa akitivu . Ubwo rero uyu musaza urimo kuvuga disikuru aremerewe nk'uko n'abandi bose bemerewe.

Ingo zo mu Rwanda ubungubu usanga zarateye imbere cyane kuko usanga na jenda yarubahirije wagirango ngo asange ba bagabo gusa bakoze inama ahubwo n'abagore n'abakobwa bujuje ibisabwa wasanga na bo rwose barateye intambwe.

Benshi bavuga ko ibimodoka binini biri mu bwoko bwa Kwasteri (Coaster) Jagwari (Jagwar) nk'ibi ngibi turimo kureba, kuko bimaze gukwira hose, bivuze ko u Rwanda rumaze gutera imbere. Ariko benshi ntabwo barabimenya kubera bisaba ikarita. Kuko kwinjira ushyiraho ikarita, ni bwo bwishyu bukoreshwa.

Urabona ko mu Rwanda n’ahandi hose, umuco wo gutegera ahantu hamwe muri gare umaze kugwira kandi wubahirizwa cyane. Rero, ni uburyo bwo gutegera ahantu hamwe, haba hari n’umutekano uhagije, kubera ko ugize ikibazo, bamukurikirana

Ikinyabiziga kiza cyane kubera ko cyaje gikenewe. Noneho by'akarusho, n'abagore cyangwa se igitsina gore basigaye bayikoresha cyane kubera ko nk'ubu urabona nk'abakobwa benshi iyo bazi gutwara bafite perimi, bose barayitwara kandi bagatwara umuzigo. Kandi bakunda kubona n'kaze cyane kubera ko batanga serivisi nziza. Kubera ko iyo umutumye, iyo mufatanye abigizayo neza ntabwo agutera amahane wenda ngo harenz3ho. Urumva rero ni ikinyabiziga kiza cyane.

akantu murimo kubona gafite ibara ry'ubururu naho abagenzi bategerererezaga imodoka mu gihe bari ku rugendo cyane cyane mu mujyi wa kigali niho utuzu nakundaga kutubona akenshi kacyiru tuba turi ku muhanda.

Zo mu rwanda zamaze gutera imbere cyane, nta bwo Nyabugogo ari yo gare yonyine mu Rwanda yubatse neza, ahubwo uturere twose usanga hari aho abagenzi bategera bahasanga hameze neza.

Ubwato butwara abantu benshi kandi bose baba bambaye amajiri yabugenewe ubwo rero kugira ngo ubugendemo ni uko nawe uba wambaye ijiri yabugenewe.

..rusange cyagenewe gutegerwamo imodoka ari cyo bita gare. Ubu ngubu cyahawe umurongo ngenderwaho kubera ko usanga harimo gahunda ihamye, kandi abantu bose bayubahiriza kimwe, kuko niba hari amasaha yo kugenderaho, bitandukanye na kwa kugenda muri twegerane kuko twegeraneranye hari igihe igukerereza. Ariko nagira inama abantu bose kuyoboka gare kuko, bazagera iyo bagiye amahoro.

Imodoka za vorukano rero zikorera mu majyepfo， zirihuta cyane，iyo uyiteze ugerayo byihuse kandi ukagenda neza wicaye neza， bikagufasha bigatuma iyo ugiye ugerayo neza. Kandi burya vorokano na virunga， ni imodoka nziza zijyana abantu neza kandi zikabagezayo amahoro.

Amamoto aba meza kubera ko afasha abantu benshi, kandi nk'iyo ukeneye kuva ahangaha ukajya n'ahandi, umumotari aragutwara akakugezayo mu buryo bwihuse waba ufite n'akantu gatoya akakagutwaza. Ubwo rero amamoto aba meza cyane ariko bitavuze ko hatariho n'abandi bafite imico itari myiza, kubera ko hari igihe agutwara nabi akagucuhuza, ubwo rero birasaba ko mbere yo gutega n'ubundi mujye mureba n'abasirimu bambaye neza.

Ibimodoka binini cyane cyane bya rukururana，ibi bituruka mu mahanga bitwara imizigo myinshi，kandi iyi mizigo iba ifite agaciro， kubera ko umuzigo wambutse ikindi gihugu，ukajya mu kindi， uba ari umuzigo uhenze，cyane cyane nk'umuceri，amavuta n'ibindi byinshi bituruka mu mahanga. Ubwo rero ibi bimodoka kubitwara nabyo bisaba kuba ufite perime ihambaye.

Uburyo bwo kugendera hamwe mu binyabiziga na bwo bumaze gutera imbere, urabonako uyu muntu ufite ubumuga nawe hashyizweho uburyo yakwinjizamo igare rye mu modoka. Rero uburyo bwo kugendera hamwe bwateye imbere cyane, kandi noneho n'abafite ubumuga bitaweho.

Aba meza cyane kubera ko arihuta ,kandi kubera ko akoresha n'amashanyarazi, ntabwo umuntu yatakaza amafaranga menshi cyane. Moto z'amashanyarazi ntizisaba lisansi. Rero nabagira inama y' uko mwajya kuyashaka mukayagura kuko n'abamotari bararayakoresha.

Ireme ry'uburezi mu Rwanda rimaze gutera imbere, kuko mbere wabonaga abakobwa ari bakeya mu ishuri, none ubu iyo ugeze mu ishuri usangamo abakobwa ari benshi, ahubwo abahungu ari bake. Byumvikane ko rero uburezi bumaze gutera imbere kuko busigaye bushyira abakobwa imbere. Kandi burya uburezi bwiza ni ubudaheza kubera ko n'igitsina gore cyashizwe imbere.

Hirya no hino mu bihugu bitandukanye, usanga taransiporo yarateye imbere, cyane cyane amagare n'ibindi binyabiziga cyangwa se n'ibinyamitende. Urabona nk'iri gare ritwara amajerekani menshi, rero rihahira nyiraryo rikazana umuhahanwa. .

Amagare aba meza kubera ko atanga serivisi nziza, cyane cyane nk'abanyonzi bakwihutisha abagenzi babatwara babajyanye ahantu runaka. Kandi nyamara aheka n'imizigo, ukaba wakwicara kuri rimwe rikagitwara, irindi rigaheka umuzigo wari ufite, ukaba wagera iyo ugiye neza kandi ku giciro gitoya.

Vorokano egisipuresi ni imwe muri kampani cyangwa se ajance de vayaje itwara abagenzi bajya mu magepfo. Ubwo rero kuyitega ugenda utekanye kandi ugenda wicaye neza kandi ukagendera no ku gihe. Ariko noneho iyo waguze tike ukagenda ugakererwa, ntabwo bayagusubiza. Ntabwo bayagusubiza kubera ko ari ihame, ubundi umugenzi agomba kurindirira muri gare.

Abamotari baradufasha cyane cyane, iyo turi kwihuta kandi rero burya, abamotari bafite umumaro ukomeye, kuko hari igihe, ushaka kugura n'akantu ushaka kukohereza, ukaba wamuhereza na magana atanu, uti aka kantu kangereze hariya hirya. rero transiporo y'intuza, ya moto ni nziza cyane, kubera ko ifasha abantu kugera aho bagiye byihuse.

Isuku n'isukura ni ingenzi, burya isuku ntawuyirata ahubwo isuku irigaragaza, urabona ko nkuyu, nk'izi nzu nziza zo mu mugi usanga zisize amarangi, hari n'inzu bubaka bakazigerekeranya, hasi no hejuru y'uwo mwazisize, ukazisiga amarangi ugashiramo imitako, usanga rwose ahantu ari... kuba heza rero barabiharanira.

Siporo ziba nziza cyane, cyane cyane iyo ziri gukinwa n'igitsina gore n'igitsina gabo, usanga iyo mikino yitabiriwe cyane na benshi, kandi burya umukino mwiza i uwukinwe n'abahungu n'abakobwa, nta vangura rihari.

Siporo iba nziza cyane kubera ko iruhura mu mutwe kandi n'ababandi bafite uburwayi budakira diyabete nabwo irabafasha cyane kubera ko igabanya isukari, kandi burya ituma nabari kuyikora basabana abahungu n'abakobwa bakwibonanamo umuco Nyarwanda ukogera.

Tenisi ni umwe mu mukino mwiza uryohera abantu kuko mu mikino myinshi iryohera abantu tenisi umuyobozi yawukina ndetse abana n'abagore barawukina ugasanga barishimye mu mubiri kandi ugasanga n'ubundi bashimishije abantu. Mbese tenisi ni umukino mwiza uryohera abantu mu mikino myinshi mbakanguriye kwitabira umukino wa tenisi kubera ko ni umukino mwiza cyane.

Siporo iba nziza cyane ariko iyo muyikoreye ahawebugenewe cyangwa mukayikora mu buryo bwemewe. Ubwo rero siporo iyo ihuriwemo n'ibitsina byombi abakobwa n'abahungu, abagore n'abagabo biba byiza cyane kubera ko bituma baruhuka mu bwonko ariko nanone iyo siporo wayikoreye ahawebugenewe.

Umukino wa tenisi ukinwa cyane n'abana b'abakire ,cyangwa se abana bo mu mugi cyangwa se abana biga mu bigo byiza. Mu cyaro nta hantu basanga uyu mukino wa tenisi. Mu mikino ikunda kuhaba ni imikino ya futuboro na vole ,naho umukino wa tenisi nta hantu wapfa kuwubona mu cyaro.

Ni nziza cyane kubera ko abanyarwanda tumaze kuyikangukira cyane, ihuza abantu benshi iyo umuntu yikorera ku giti cye ariko kuko usanga ari nziza cyane, kubera ko ni n' umuti arega kuri za ndwara zitandukanye.

Cyane Kuko ubu ngubu abantu bose barayikangukiye ariko cyane cyane mu mijyi n'ahandi, rero igitsina gore na cyo cyarayikangukiye, usanga bari gutwara amagare bari gukina ibintu.

Pisine ni hamwe abantu benshi bogera， cyane cyane bagiye kuruhura ubwonko， cyangwa bagiye kwifata neza mu mahoteri. Ubwo rero umuntu wese utunze cyangwa ufite iyo yasohokeye ahantu nk’aha， abona umwanya wo koga akaruhura ubwonko. Ariko n’ushaka kumenya koga akabyigiraho.

Imikino iba myiza cyane iyo iri gukinwa n'abahungu n'abakobwa bavanze bose, usanga harimo ibyiciro byombi kandi bose ugasanga banezerewe, kuko usanga nta vangura riba rihari.

Siporo iba nziza cyane kubera ko ni imwe mu miti umuntu wese akenera waba urwaye, waba utarwaye, kubera ko siporo iruhura mu bwonko, kandi umuntu ukunda siporo ahorana akanyamuneza, ahorana umutima mwiza. Nkabakangurira rero yuko mwese mwakwitabira siporo. Kandi siporo ibamo imikino myinshi itandukanye.

Siporo iba nziza cyane kandi iyo uyikoze mu buryo bwiza cyane kandi ukayikora mu buryo buhozeho, siporo yaba nziza nko mu bana no mu bakuru, ndetse n'abantu basheshe akanguhe, siporo iba nziza cyane ku.....

Siporo iba nziza cyane. kubera ko iba n'umuti wo kuruhura mu bwonko, iba umuti wo kugabanya isukari. Kandi siporo iba nziza cyane kubera ko abayihuriyemo barishimana. Ariko cyane cyane iyo yahuriyemo n'ibitsina byombi, abahungu n'abakobwa usanga ari nziza.

Siporo iba nziza cyane. Aha ngaha ni ahabugenewe ho gukorera siporo. Ubwo rero umuntu ukora siporo aba yivuye. Imitekerereze iba myiza cyane kubera ko aruhura ubwonko, kandi siporo ifasha n'abantu uburyo bwo kugabanya isukari ya diyabete.

Sitade zubatswe neza usanga zifite umumaro mwinshi, kubera ko zakira abantu benshi baje mu birori bitandukanye, kandi baba baragiye bazubaka bagashyiraho n'aho kwicara, ugasanga amahoro rwose aruzuye atagabanije. Uburyo bwo gutwara intebe butandukanye, kubera ko barahicara, ugasanga bari ugasanga bari gutegereza...

Siporo iba nziza cyane kubera ko iruhura mu bwonko, kandi siporo igaragarira mu mikino myinshi cyane, harimo basiketiboro harimo futuboro hari na voreboro, n'indi mikino myinshi cyane. Rero siporo iba nziza cyane.

Ikibuga ni ikibuga kimwe mu bibuga byiza cyane byo kwidagaduriraho. Ni ukuvuga ngo rero ariko ntabwo wakibona ahantu hose habonetse, ubundi kirahenze, abagikora baba ari abahanga kandi baba barabyigiye. Rero uwakenera kugikora yazajya kwigira kuri iki ngiki.

Siporo, iba nziza cyane . Kandi, igaragarira mu mikino myinshi. Ubwo rero, umuntu utaba muri siporo cyangwa ngo ayikore, aba afite ikibazo cyo kuba ubuzima bwe n'ubundi aba ari kubushyira mu kaga rimwe na rimwe. Kubera ko siporo ifasha abantu.

Siporo imaze gutera imbere mu Rwanda, ariko cyane cyane inaha mu Majyaruguru bimaze gutera imberecyane,b n'abakobwa n'abagore bakina umupira w'amaguru, yaba uw'intoki, bimaze kumenyera.

Abamotari ndabakunda cyane, kubera ko bihutisha serivisi, buriya umumotari uramutuma uti" simbuka mumujyi unzanire aka kantu agahita akakuzanira, waba uri mu mujyi ukamubwira uti" aka kantu kanjyanire mu rugo, akakirukankana kakaba kagezeyo, abamotari rero iyo ari inyangamugayo batanga serivisi nziza cyane, ariko nanone hari bamwe bakora badafite ibyangombwa, abandi bakaba n'amabandi bisaba gushishoza ariko abamotari ni beza cyane ndabakunda.

Mu Rwanda ni kimwe mu gihugu kimaze kugira amakamyo menshi, burya ibimodoka binini ni ibimodoka bifasha abubatsi, ndetse n'abandi bashoramari, mu gutwara ibintu biremereye, kandi byinshi cyane, ubwo rero abafite amafaranga yo gutwara imizigo ugakoresha ikimodoka kinini nk'iki biragufasha.

Iyo uciye ahantu hataragera kaburimbo, hari aho usanga harimo utubuye, hari aho usanga hameze neza, bityo rero ibikorwa remezo bigomba kubwahwa, cyane cyane nk'imihanda. Kuko kuwunyuramo bisaba ko uba umeze neza, niyo mpamvu tugomba kwitabira umuganda, kugira ngo ibikorwa remezo bibe bimeze neza.

uyo muhanda bigaragara ko ari umuhanda wo mu umujyi ariko n'ubundi nta matara ari ku muhanda. Hariho umwijima mwinshi cyane ahangaha ushobora guhura n'aba kaci bakahakwamburira bakagucuza utwawe wari wifitiye. Ariko baramutse bawushyizeho amashanyarazi nta cyo waba n'abagenzi ntacyo baba.